Ubu ni ubwoko bw'ifumbire abahinzi bakoresha mu rwego rwo kugira ngo ibihingwa bibyibuhe kandi bitange umusaruro. Abahinzi bavuga ko gukoresha iyi fumbire byatumye babona umusaruro mwinshi bityo biteza imbere.

Aha ni ahagenewe gushyirwa ifumbire mu rwego kugira ngo itunganywe neza. Ni ahantu bigaragara ko hari urubingo rukiri rugufi, hakaba ifumbire iri mu birundo. Hari ibirundo bine by'ifumbire. Hakaba hakurya hari amashyamba arimo ibiti bikiri bito. Ariko urabona ko biri gukura.

Aba ni abahinzi bari mu murima. Bafite ibisorori birimo ifumbire bari gushyira mu myaka yabo, ni ubuso bw'ubutaka bwatunganyijwe neza, bityo bakaba bari gushyiramo ibihingwa ndetse n'ifumbire kugira ngo bizere neza.

Aha ni ahacururizwa imiti y'amatungo. Iyi miti iri mu tubati tugiye dutandukanye. Akabati kamwe kakaba gateretsemo iri mu macupa. Hejuru y'akabati hakaba hari iri mu makarito.

Aka ni agacupa kakaba kavamo umuti. Aka gacupa gafashwe n'umuhinzi. Uyu muhinzi bigaragara ko agiye kugakoresha yica udukoko tuza mu bimera. Mu rwego rwo kugira ngo arinde imyaka ye.

Uyu ni umugabo ukora ubuhinzi bw'ibitunguru, ibitunguru bye bimeze neza cyane kandi bigaragara ko byenda kwera, uyu mugabo ari kubizengurukamo abikorera isuku kugira ngo azabone uko abisarura neza.

Aya ni amasaka yeze neza cyane, akaba yarahinzwe ahantu heza, agahabwa ifumbire akitabwaho, maze nayo si ukwera agasizora. Hakurya yaho hari ibiti byiza cyane ubona ko, na byo byabonye amazi.

Uru ni ururabo rwiza cyane ruteretse ahantu mu rugo. Uru rurabo rufite amababi meza cyane arimo amabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo, rukaba rwitabwaho kuko barumenaho amazi uko bukiye n'uko bwije kugira ngo rukomeze rumurikire runo urugo.

Aba ni abantu batari bake. Bakaba bari kuvomerera ingemwe ziri mu buhumbikiro bw'imyaka. Bose bafite amarozwari y'icyatsi kibisi mu ntoki, aho ubona ko izi ngemwe zimeze neza cyane kuko bazitaho.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cy'ubuhinzi. Bamwe bambaye bote, abandi ntazo bambaye, bose bafite amasuka kandi bayazamuye bigaragara ko bari gukora ahantu harimo imyaka, kandi bakaba biteguye kuzeza.

Ubu ni ubuhinzi bugezweho ni imirima myiza cyane iteguye hakaba hari amatarasi y'indinganire. Uyu murima wamaze guhingwa hacukurwa imyobo igomba gushyirwamo imbuto bityo hahabwa intera kugira ngo bizere neza.

Iki ni ikibaya gihinzemo ibigori, nkuko dusanzwe tubimenyereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda habaho gufata ubuso burebure tugahingaho igihingwa kimwe, mu rwego rwo kugira ngo duteze imbere umusaruro w'ibiva mu gihugu cyacu.

Iyi ni imifuka myinshi cyane iteretse ahantu hamwe. Ikaba ipakiyemo ibigori. Ni ibigori byiza cyane byasaruwe biratunganywa, barangije babipakira mu mifuka mu buryo bugezweho. Kandi barayuzuza neza.

Uyu ni umurima uteyemo ibishyimbo bigufi bikaba biteye ku murongo. Harimo insina zifite ibirere bijya kuba umuhondo ndetse inyuma y'aho hakaba hari ibiti birebire ndetse bifite n'amashami.

Ishyamba ryiza cyane rifite ibiti birebire hakaba harimo n'ibigufi. Mbese ni ahantu heza cyane ubona ko hari umuyaga mwiza. Aha hakashobora kuba hakorerwa ubushakashatsi. Aho bashobora kuhigira ibijyanye n'amashyamba.

Aha ni ahacururizwa imbuto, harimo imbuto nziza cyane ubona ko zeze, kandi zahishiye. Zimwe zifite amaba y'icyatsi kibisi, izindi zikagira ay'umuhondo, ziteretse aho bazicururiza. Barindiriye abaguzi.

Indabyo nziza cyane ziteye ahantu ubona ko hameze neza. Uramutse ushaka ahantu hari akayaga ndetse witegereza amabara meza y'indabyo zigiye zitandukanye, wagana aha hantu maze ukiyicarira.

Aba ni abahinzi, umugabo ndetse n'umugore. Bari kumwe n'umwana wabo, bakaba bari gusarura imiteja. Bari kuyisuka mu gatete k'ubururu, aho bagenda basoromera mu ndobo cyangwa mu mufuka barangiza bakazana bagasukamo.

Aha ni mu kigo cy'amashuri, harimo inyubako zubakishije amatafari ahiye. Hariho inzugi z'umukara ndetse n'amadirishya y'umukara. Hateye indabyo nziza cyane zizengurutse igiti, kirekire gitanga akayaga ndetse n'amahumbeziri muri iki kigo.

Aba ni abamama bari kuvomerera imyaka. Ni imyaka myiza cyane basasiye, bafite amazi mu majerekani ndetse bari gukoresha indobo n'amarozwari basukaho amazi kugira buri gihingwa kibashe kubona amazi kandi agihagije

Aba ni abagabo babiri bari mu myaka, umwe yambaye umupira w'amaboko maremarendi undi yambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu bafite umupira w'ubururu uri kuvomo amazi menshi cyane. Bari kuvomerera imyaka yabo ngo itazuma.

Aba ni abahinzi bari mu kibaya bakaba bari gutunganya imirima yabo mu rwego rwo kugira ngo bahingemo imyaka kuko yari irimo isanzwe yarasaruwe ndetse n'i itasarurwa nayo iri kwitabwaho.

Iyi ni ingurube iryamye mu kiraro, ubundi ubworozi bwa kijyambere bukorwa aho umuntu aba afite amikoro, akubaka ibiraro byiza, ndetse akagura n'ubworozi bwiza, bityo bigatuma yorora neza.

Aha ni ahabereye igikorwa cyo gupimisha inka cyangwa se kuzikingiza, hari umubyeyi witwikiriye umutaka ahetse umwana, hakabamo abagabo batatu bigaragara ko bari kurebera izi nka mu rwego rwo kugira ngo zitaza kubacika.

Izi ni inka zororewe mu kiraro zikaba zitabwaho na ba nyirazo. Izi nka zahawe amaherena kugira ngo bajye bazitandukanya, kandi na zo zirororoka bityo abazoroye bakazishimira.

Iyi ni ingurube yabwaguye ububwana bwinshi cyane, irabwishimiye kuko yagaramye na bwo buri kwiyonkera, biragaragara ko na bwo buzakura neza kandi bukagira umusaruro mbese bukaba nka nyina.

Aha ni mu bice by'icyaro, hakaba hari ibiti by'ibishingiriro baranduye babyegeka ku rugo, harimo inkoko ziri kwitoragurira mu rwego rwo kugira ngo na zo zimere neza, bityo abazoroye na bo bishime.

Ubu ni ubuhumbikiro bw'ingemwe. Izi ngemwe zihumbitse neza ku buryo bugezweho. Aho ba nyirazo bateye ibiti birebire bizitwikira bityo izuba ntiribashe kuzigeraho.

Ubu ni ubwoko bw'imboga, bikaba bizwi nk'ibiringanya. Ni bimwe mu bitekwa, kandi bihingwa n'Abanyarwanda, bikera neza uko bikwiye. Ibi bimera aho bitewe birera, kandi bikagira umumaro.

Uyu ni umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu akaba ari gutera urushinge inka. Harimo n'undi umwe wamufatiye. Babanje kuyizirika ku kiraro cyayo mu rwego rwo kugira ngo itabatera imigeri ntibabashe kubona uko bayitera uyu muti.

Izi ni inyamaswa zikaba ziri muri pariki, hari ubwatsi bwiza cyane butohagiye zifite amahembe meza cyane akiri mato, zikaba ziri mu bwatsi bwiza cyane aho ziri kurisha bigaragara ko zishishe.

Inyoni nziza cyane ifite ibara ry'ubururu, ihagaze ku ishami ry'igiti. Ni igiti ubona ko ari kirekire ariko kitabyibushye. Kikaba gifite amababi ari mu mabara atandukanye. Harimo iry'umuhondo ndetse n'iry'icyatsi kibisi.